Bumwe mu bucuruzi bugezweho, hari n'ubucuruzi bw'inzoga z'amarikeli ,ubucuruzi bw'inzoga z'amarikeli bwiganje cyane cyane muri za alimentasiyo zitandukanye ,ndetse na za supamaketi.

Amwe mu mahoteli yo mu karere ka Musanze cyane cyane amahoteli yo mu Kinigi ku birunga, ni amahoteli ateye ubwuzu. Aho kuhakorera igitaramo ukahataramira, usanga hari ababyinnyi, wowe wiyicariye ku muriro wota, kuko ku birunga harakonja. Maze ukishima ukishimira ubuzima bwawe.

Bimwe mu byiza dusanga mu hoteri z'akarere ka Musanze， harimo n'amafunguro ateguye neza. Mu mahoteri by'umwihariko akarere ka Musanze，bagutekera ifi ifite ibirungo byayo， bikuryohera no ku maso utararyaho，ukumva biryoshye.

Burya rero muri bizinesi z'utubari n'amahoteli habamo n'ibyo kurya. Icyo kurya cyane abantu bishimira ni icy'ubwoko bwa burushete. Burushete ni inyama zokeje zitunze ku duti, abantu bishimira cyane.

Tumwe mu tubari tugezweho, usanga dufite amatara yaka ku buryo butandukanye. Aho iyo ari nimugoroba utamenya niba bwije cyangwa se niba bwakeye. Amatara aba afite urumuri rudahuye n'amatara yo mu nzu dusanzwe tuzi.

Imitegurire y'ibiryo byo mu kabari itandukanye n'imitegurire dusanzwe tuzi, aho buri kintu kiba kiri ku isahani yacyo, maze bakuzuza ameza maze ugafata isahani, ukagenda wiseriva ku kintu ushaka.

Bimwe mu biribwa biryohera abantu byo mu kabari, twavuga ikiribwa cyitwa burushete. Buroshete zigira amoko atandukanye, burushete ikundwa cyane mu kabari, ni iyo twita singaro.

Mu kwidagadura mu gihe cya wikende mu Ntara y'Amajyaruguru, turasohoka dusohokera mu mahoteli ndetse no mu tubari dutandukanye, ukinjira muri hotel ubona abantu bicaye mu mutaka bugamye akazuba, buri wese ari gufata icyo ashaka.

Ni koko ubusabane ni ngombwa, cyane cyane abantu baziranye, abantu bashobora kuba bahuje akazi, bahuje ubucuti, bahuje kwigana, hari byinshi bihuza abantu, igihe kiragera bagasabana, bakishimira ko bamenyanye, no mu karere ka Musanze ibyo birahari.

Mu buryo bwo gufata icyo kunywa, umuntu akenera akarahuri. Akarahuri ni igikoresho abanywi bakunda kunyweramo, bakumva barizihiwe. Urebye akarahuri karimo ka ji cyangwa ka byeri, usanga ikinyobwa kiri mu kirahure kinogeye amaso.

Ese waba warigeze gusura igikoni maze mucomo akakwemerera kureba uko akora akazi? Iyo ugeze mu gikoni mucoma yakugiriye Ubuntu, usanga uburyo botsamo ifi ari uburyo butangaje cyane, aho ifi iba iri hejuru y'amakara, ariko munsi y'amakara n'ifi hari agatanda kabitandukanya.

Iyo winjiye mu kabari ugera ahantu bita kuri kontwari. Kuri kontwari ni ho ubariza ibiciro by'icyo ushaka gufata mu kabari. Kuri kontwari kandi ni na ho ubona sampo y'ubwoko bw'inzoga zose ziba ziri muri ako kabari, maze ukagura iyo wifuza.

Tumwe mu tubari tugezweho two mu karere ka Musanze, usanga dufite isuku ishimishije, imitegurire y'indabo, imitegurire y'intebe n'imitegurire y'ibirahuri, mbese n'uko inzoga ziba zipanze ubwabyo ubona ari umutako.

Mu rwego rwo kwiteza imbere, abari n'abategarugori nabo ntibatanzwe bihangiye imirimo, bamwe bakora za katine, abandi bakora amaduka baracuruza karahava, arega burya abari bo mu majyaruguru nabo barashoboye.

Ubucuruzi bwa butike usangamo ibicuruzwa bitandukanye, aho usangamo ibyo kurya, ibyo kunywa, mu byo kurya cyane cyane biboneka mu mabutike higanzamo imigati, amandazi, amakeke.

Burya mu mugi habamo akazi gatandukanye, twavuga nk'akazi kabakaraningufu bakaraningufu iyo ikamyo izanye ibicuruzwa nibo baza bakabipakurura bakabishyira aho bigomba kuba biri maze nabo bagakirigita ku ifaranga.

Bumwe mu bucuruzi bugaragara ino aha i Musanze, harimo n'ubucuruzi bwa sarodokwafire, sarodokwafire ni ho bakorera amasuku y'abantu, cyane cyane amasuku y'umusatsi badefiriza, bogosha, basuka. Ubwo na bwo ni ubucuruzi butanga amafaranga.

Mu bucuruzi buri gukorwa cyane muri iyi minsi harimo ubucuruzi bwa kantine, aho umucuruzi wa kantine aba afite icyayi, inshyushyu, amata, amagi, imigati n'ibindi bitandukanye.

Bumwe mu bucuruzi bw'ibiribwa, twavugamo ubucuruzi bw'ibitonore, aho usanga abacuruzi b'ibitonore baba bafite imifuka myinshi yuzuyemo ibitonore, aha ngaha tuba tuvuga ibishyimbo bitari byuma.

Buryo n'ikirerecyo cyane cyane shobora kuba uhagaze imbere y'inzu kwitegereza hejuru yayo aho ubona aho inzu igarukira hejuru ukabona izindi nsinga zitwara amashanyarazi zibera mu kirere mu kazi kazo

Imyubakire y'amaduka, ahanini amaduduka cyangwa amabutike uyasanga yubatse iruhande rw'umuhanda. Amaduka yo mu ntara y'Amajyaruguru aba afite isuku, aba afite irangi mbese atandukanye n'izindi nyubako zose zitari iz'ubucuruzi. Inyubako y'ubucuruzi iba yihariye.

Kugira ngo umenye ko inzu runaka ikorerwamo ubucuruzi ubu n'ubu, hari ibyapa bishyirwa kuri iyo nzu, ibyapa bishyizwe ku muryango ukorerwamo ibintu, urahagera ugasoma ibyapa bikakurangira igikorerwa mu nda ,ibyapa biri mu bintu birangira abantu.

Tuvuge se ki ko mu karere ka musanze ubucuruzi buteye imbere? Amaduka yateye imbere, ndetse aho buri duka imbere yaryo usanga hari amapave. Ndetse urubaraza rw'iduka ugasanga rugizwe n'amakaro ndetse n'inzugi ari metarike ndetse n'ibirahure. Birashimishije cyane.

Muri kenkayori tubonamo ubucuruzi bw'ibyuma ubw'amatiyo, ubw'amabati. Kenkayori ifasha abantu mu gusakara inzu, mu gukinga inzu mbese ubucuruzi bwa kenkayori ni ubicuruzi bw'amafaranga.

Mu karere ka Musanze si mu mugi gusa， usangaho za rimantasiyo. Kuko iyo ugiye no mu makaritsiye， ndetse no mu mirenge y'icyaro， usangamo nk'amarimantasiyo，aho ugura ibyo kurya n'ibyo kunywa， ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ubu tuvugana umaze imyaka itanu atagera mu karere ka Musanze, nta bwo yahamenya. Kuko imyuba yo mu karere ka Musanze ni amayetaje gusa gusa. Ahantu hose hubatswe etaje, ku buryo umujyi wa Musanze ni umujyi uteye imbere bigaragarira amaso ya buri wese.

Mu mirimo y'ubukorikori habamo n'imirimo y'ubukanishi, abakanishi na bo babamo ibyiciro byinshi, hari abakanika amamodoka, abakanika moto ndetse n'abakanika amagare, turaganira ku bakanishi b'amagare. Iyo igare rigize ikibazo, uraribashyira, haba kongeramo umwuka, haba guhindura piyese, bakagufi.

Iyo tuvuze ubucuruzi bwa butike cyane cyane butike zo mu cyaro ni ubucuruzi ushobora kujyamo ugasanga ibicururuzwa by' ubwoko butandukanye wasangamo ibyo kurya, wasanga ibyo kunywa, wasangamo imyambaro, wasangamo n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu buzima bwacu buri munsi.

Mu maduka, ni ahantu hakorerwa ubucuruzi. mu maduka, habamo ubucuruzi butandukanye. Hari abacuruza ibyo kukurya, abacuruza ibikoresho, ndetse hari n'abacuruza serivisi. Mu bacuruzi ba serivisi twavugamo serivisi za Emutiyeni ariyo serivisi zitanga amayinite.

Ubucuruzi buteye imbere bukorerwa maduka. Amaduka y'umujyi wa Musanze usanga ari amaduka ateye ubwuzu, iyo winjiyemo usanga ibicuruzwa biri ku ma etajeri ,ukagenda uzenguruka ama etajeri ureba igicuruzwa ushaka. Ibyo ni byo twita superimarishe.

Mu buryo bwo kuvugurura imyubakire y'amazu akorerwamo ubucuruzi, cyane cyane ku mazu agera ku muhanda mu karere ka Musanze, ba nyir'amazu bashishikarijwe kubaka amazu afite amakaro. Byagezweho kandi bigaragara ko amazu afite isuku.

Mu bucuruzi bwa butike hifashishwa ama etajeri. Etajeri ni na zo zifashishwa bapanga ibicuruzwa muri butike. Iyo winjiye muri butike, uraranganya amaso muri etajeri ukareba igicuruzwa ushaka, maze ukababwira uti :"mpereza kuri kiriya".

Mu mwuga w'ubukanishi bukorerwa mu magaraje, twavuga igaraje ikanikirwamo ama moto, Moto yagize ikibazo igana aho abakanishi bakanikira maze bakagikemura, burya ubukanishi bwa moto nabwo butanga amafaranga.

Mu nyubako ziteye imbere mu karere k'amajyaruguru za etage, usanga ahenshi hasi arakorerwamo ubucuruzi, hejuru ukabonamo ibyumba bikorerwamo serivisi, usanga serivisi z'abavoka, serivisi zo gutunganya imisatsi, n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi bugezweho, inaha mu Karere ka Musanze cyane cyane mu mujyi, ni ubucuruzi bwa alimantasiyo, aho usanga muri alimentasiyo harimo amabisikwi y'ubwoko bwose, harimo amasambusa, harimo amandazi ndetse n'ibikapu byo gutwaramo, iyo umaze kugura, guhahira muri alimantasiyo.

Mu rwego rwo kubungabunga ibinyabuzima, cyane cyane amatungo. Hashyizwemo farumasi veterineri, aha ngaha niho hagurirwa imiti, ivura amatungo.

Mu bucuruzi bwo mu karere ka Musanze usangamo ubucuruzi bw'imbabura z'amakara. Imbabura zitekwaho amakara, inyinshi zicurirwa mu karere ka Musanze. N'ibumba bashyiraho, riva mu karere ka Musanze. Abaturage bazicura biteje imbere.

Nibyo koko imyubakire yo mu mugi，cyane cyane mu mugi wa Musanze， iteye imbere. Ku buryo uhaheruka mbere y'imyaka itanu，akahagera ubu ngubu，ashobora kuhayoberwa. Imyubakire y'amakaro，imyubakire y'inzugi n'ibirahuri，biteye amabengeza，ntibyari bisanzwe inaha.

Mu bucuruzi bw'imbuto ino aha mu Ntara y'Amajyaruguru habamo ubucuruzi bw'imineke angaha twavuga imineke yo mu bwoko bwa kamara ,kamara ni imineke iryoha pe! Ni imineke iboneka in'aha mu karere ka Musanze ,aho agaseri kamwe ka kamara kagurwa amafaranga guhera kuri magana atanu kugera ku gihumbi no kuzamura.

Ibi nibyo byiza byo gutura mu mujyi, inyubako yose iri mu mujyi ibyazwa umusaruro cyane cyane ubucuruzi. Ushobora kuba ufite inyubako igaragara ko atari uy'ubucuruzi ariko iri mu mujyi icyohacururizwa cyose gifatwa nk'ahari igicuruzwa kandi kikagurwa.

Bumwe mu bucuruzi bukorerwa mu isoko rInini rya Musanze Goyiko twavugamo n'ubucuruzi bwa papetori. Iyo winjiye muri Goyiko, hari igice cyahariwe amapapetori, aho usanga hari amapapetori atandukanye.

Mu iterambere ry'inganda， cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru， habonetse inganda zikora ibiryo by'amatungo. Izo nganda zitunganya ibiryo maze abacuruzi n'aborozi bakazigana，bakagura ibiryo，bakagaburira amatungo yabo.

Ubucuruzi bwa butike ni ubucuruzi bukorwa cyane cyane mu mijyi no mu makaritsiye, ikiranga ubucuruzi bwa butike, bashyira sampo aho umuntu areba, kugira ngo urebe ko wahanyura ukifuza kimwe muri ibyo bicuruzwa, maze umucuruzi akibonera ku ifaranga.

Amaduka y'ubucuruzi aba yuzuye ibintu byinshi, aho ibicuruzwa bimwe abishyira ku muryango kugira n'uwihitira adashaka kugura agire amatsiko, abonemo igikoresho ashaka kugura abe yabateza imbere.

Bumwe mu bucuruzi bugaragara hano mu mujyi wa Ruhengeri mu Karere ka Musanze harimo ubucuruzi bwa supamaketi. Ubucuruzi bwa superimarishe ni ahantu usanga ibicuruzwa by'ubwoko bwose.

Ubucuruzi bugira ubwoko butandukanye. Ino aha mu ntara y'Amajyaruguru haba ubucuruzi bw'amaresitora, aho bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, iyo winjiyemo ukarya, ushobora gufata icyo kunywa nyuma yo kurya, maze ugataha wishimye.

Mu mugi haba imirimo itandukanye, harimo abacuruza mo mitiyu, abatwara abagenzi kuri moto ,qbacuruza mu maduka, n'abatwara imodoka, abo bose ubasanga mu mujyi kandi bafite imirimo itandukanye.

Mu buryo bwo gucunga neza amafaranga, inaha mu Karere ka Musanze abaturage bashishikarijwe kubika amafaranga yabo muri banki. Inaha mu ntara y'Amajyaruguru dufite banki zitandukanye, aho twavugamo banki Popireri, tukavugamo Beka, ariyo banki ya Kigali.

Mu buryo bwo gucunga neza umutungo cyane cyane w'amafaranga y'abaturage, guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwitwa banke popilere, banke popilere ni banke abaturage babikamo amafaranga muri iki gihe. Banke popilere hano muri Musanze ikorera mu nyubako ya Goyiko.

Mu buryo bw'imyubakire yo mu mijyi iyo ugeze imbere y'inzu y'igipangu runaka usanga urugi rw'ibyuma rwitwa metarike. Urwo rugi ni narwo rukinga igipangu haba aho abantu banyura ndetse naho ibinyabiziga binyura byinjiye muri urwo rugo.

Menshi mu mahoteli aba mu Karere k'umujyi wa Musanze ni ama etaje. Aho kandi buri hoteli iba ifite igipangu kizitiye, ibyo ni mu buryo bw'umutekano.

Ngutembereze se mu mahoteli yo mu Kinigi? Aha ngaha naba nkwibye cyane cyangwa nibye igihugu, kuko naba nguhaye amakuru udashaka kuza kwirebera ,ariko mu by'ukuri amahoteli y'i Kinigi ,hari utumodoka twiza cyane, dutwara abaje kubasura babatembereza mu mahoteli.

Mu buryo bw'imiturire hashishikarijwe pula kadesitarali, pula kadesitarali ni uburyo bugezweho bwo gutura mu mujyi, aho uhabwa igishushanyo mbonera cy'ahantu runaka ugomba gutura, n'inzu ugomba kubakamo.

Bimwe mu biranga ahakorerwa amahoteri uhasanga ku muryango wa byo hari ibyapa biranga ko hano hari hoteri. Iyo uhageze, uhita umenya izina ry'ihoteri kuko uba wabisomye ku cyapa kiri ku muhanda.

Ibyiza byo gutura ahantu heza birivugira, iyo wituriye ahantu mu nyubako irimo amakaro isize amarangi, n'iyo uhari wumva utewe ishema no kuhatura rwose, nawe iyo uhageze ubona ari ahantu hafite isuku hasukuye hasa neza, bikaba bihesheje ishema umuntu wese watura mu nyubako nk'iyi.

Iterambere ry'inzu zikorerwamo ubucuruzi. Inaha i Musanze zariyongereye, aho usanga inzu nyinshi zubatswe z'amayetaje zubakwa uburyo hahurirwamo n'abacuruzi benshi. Aha ngaha twatanga urugero nk'isoko rya Goyiko ry'inaha i musanze.

Ukigera ku isoko, iruhande rw'isoko usanga urujya n'uruza rw'abantu, harimo abacuruzi, abaguzi ndetse na ba karaningufu. Aho ba karaningufu baba bikorera ibigiye gucuruzwa abacuruzi baranguye, ndetse bagatwaza n'abaguzi baje kugura.

Bumwe mu bucuruzi bukorerwa mu isoko ry'akarere ka Musanze goyiko，harimo ubucuruzi bw'imyambaro. Aho usanga imyambaro imwe izinze，indi itanditse， maze ukagenda，bakakwereka umwambaro， ukawigurira.

Mu biribwa abantu bakunze kurya cyane, ntitwakwibagirwa benye. Benye iri mu bwoko bw'amandazi ariko ikaba iryohereye cyane, kuko mu kuyikora bongeramo amagi. Benye itetse, iryohera abantu.

Ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo bukorwa mu maduka yihariye. Aho usanga iduka ryihariye ibikoresho bikoreshwa mu rugo. Haba mu gikoni, haba mu kunywesha amazi, ibintu nk'ibyo.

Biimwe mu bikoresho byifashishwa dukora isuku, harimo igikoresho cyitwa imyeyo. Imyeyo gakondo ni imyeyo abantu bakubuza bafashe mu ntoki ,bagakubura bigizayo imyanda kugira ahantu hase neza.

ubucuruzi bwa buranjeri ni ubucuruzi bucuruza imikati iyo tugeze aharanguzwa imikati, uhasanga abaza kurangura, iyo barangura batwara amapaki y'imikati, ipaki y'umukara iba ifite, igira igiciro cyayo bitewe n'ubwoko bw'umugati, ndetse n'ingano y'umugati.

Bumwe mu bucuruzi bw'ibiribwa bikomoka mu mazi, mu karere ka Musanze naho tuzi ubucuruzi bw'indagara, arizo twita indaga zumye, indagara zumye n'udusimba dusa nk'udufi duto duto ariko tuza twumye, duturutse hirya no hino mu bihugu duturanye.

Supamaketi ni iduka usangamo ibicuruzwa by'ubwoko bwose, yaba ibiribwa, ibinyobwa ,ibyo kwambara, ndetse n'ibikoresho byo mu rugo. supamaketi yiganza cyane cyane mu bucuruzi bwo mu mujyi.

Mu masoko yo mu Majyaruguru aho hakorwa umurimo w'ubucuruzi. Higanjemo cyane cyane ubucuruzi bw'inkweto ndetse n'imyenda. Iyi myambaro yambarwa n'abantu irakenerwa cyane, yaba abakora siporo cyangwa se imyambaro y'imbeho, ndetse n'ibikapu byo gutwaramo.

Ubucuruzi bw'imyenda na bwo bwatejwe imbere mu Karere ka Musanze. Mbere twari tuzi immyenda ya caguwa, aho ubucuruzi bwakorwaga mu kavuyo baterera imyenda hejuru, berekana umwenda mwiza. Ariko ubu imyenda iba izinze iri mu matayetajeri, umuguzi akaza arebamo uwo yifuza.

Mu isoko ry'ibiribwa cyane cyane inaha mu Majyaruguru, habamo imbuto zitandukanye, aho zimwe zicuruzwa ku bisima, abandi bakaza kurangura bikoreye amabase, bagiye kuzijyana mu makaritsiye atandukanye.

Mu karere ka Musanze hubatswe isoko rya kijyambere, iri ni isoko rizwi ku izina rya Goyiko. Ni isoko rya etaje aho ari isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa n'urujya n'uruza rw'abacuruzi n'abaza kugura.

None se tuvuge ko ubucuruzi bukorerwa mu Mujyi wa musanze gusa? Oya da no mu mirenge itandukanye igize Akarere ka Musanze, cyane cyane nk'aha twavuga mu Murenge wa Kinigi, aho abantu ubona bari mu bucuruzi. Amaduka arahari, hari urujya n'uruza rw'abagura n'abagurisha.

Ahantu bacururiza ibyo kurya bitandukanye twavuga nko mu isoko rya kariyeri riri hano mu karere ka Musanze Aho bacuruza ibiribwa usanga ameza ariho amavuta, ariho ibitunguru, ariho ibyo kurya by'ubwoko bwose.

Beterave ni bimwe mu bihingwa bihingwa mu ntara y'amajyaruguruz ndetse bikanahera. Beterave ni igihingwa gifasha cyane cyane abafite intege nke z'umubiri, mu kongera amaraso. Beterave uyihinze itanga umusaruro igatanga n'amafaranga.

Mu bukorikori bwa gakondo harimo ubucuzi, aho abaturage bashobora kwicurira imitego ifata imbeba, bagacura amapata, bagacura ibyuma byifashishwa mu kazi ko mu rugo nko guhata ibyo kurya n'ibindi.

Kera mu bucuruzi bwo mu cyaro bacuruzaga peterori, yifashishwaga mu kumurika. Ariko ubu mu cyaro uhasanga ubucuruzi bw'udutoroshi dutoya, umuturage aza akakagura kakamufasha kumurika, niko twateye imbere.

Iyo winjiye mu isoko rya Musanze tuzi ku izina rya Goyiko, winjiyemo ndani usanga harimo ibyumba byinshi by'ubucuruzi, aho buri mucuruzi aba afite umwanya we acururizamo igicuruzwa runaka.

Mu isoko ry'ibiribwa, iyo winjiyemo cyane cyane mu isoko ry'ino aha i Musanze, usangamo ibiribwa bitandukanye. Aho usangamo ibitunguru, za tungurusumu, imbuto, inyanya, puwavuro, mbese ibiribwa by'ubwoko bwose, ukaba wagura ibyo wishakiye.

Mu bucuruzi bukorerwa mu karere ka Musanze cyane cyane mu isoko rya Kariyeri ari ryo twita isoko ry'ibiribwa, ry'Akarere ka Musanze, usanga harimo n'ubucuruzi bw'amafu atandukanye. Haba Harimo ifu y'igikoma, ifu ivamo umutsima, ifu y'ubugari, n'indi fu itandukanye.